Umubyeyi arimo araraseka yishimye cyane, yitaba na telefone ari gukurura igikapu gisa ubururu, bigaragare ko ubwishingizi bwari bumugobotse ubwo yari yahuye n'ibibazo runaka, nawe rero wicikanwa igihe ni icyawe ndetse n'umwanzuro.

Ubwishingizi ni ngombwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho tujya, ibyo dukora tugomba kubugira, ntakinyabiziga cyagenda mu muhanda kitabufite, rero n'abantu nabo bagomba kubera ko hari igihe arwara nk'indwara runaka ishobora kumuzahaza akabwitabaza bukamugobokera igihe.

Uzareba iyo umaze kugonga umuntu nta bwishingizi ufite ukuntu uhangayika, ntabwo wagurisha iyo imodoka yawe kuko na yo yaba yapfuye. Ahubwo ubaye ufite ubwishingizi byose birakemuka, kandi biranashoboka. Bashobora kuyikugurira n'uwo muntu bakamuvuza. Gerageza rero uyoboke inzira ya bwo hakiri kare.

Ubwishingizi ni bwiza cyane, ubaye ubufatiye abana bawe, ibigo by'amashuri cyangwa se iby'imari, by'abihaye Imana, byose biremewe, cyane cyane noneho imodoka n'inzu, ibyo wangije byose urabyishyura, igihe runaka iyo bibaye.

Bajyaga batugira inama yo kuba twakizigamira ariko tukabinyuza mu matwi. Rero nitugerageza tubyumve hakiri kare kubera ko uhereye ubu ngubu ubikora, byazagera ku mwaka nawe warujuje amafaranga menshi cyane n'iyo nyungu ukabasha kuba wakwinywera akabyeri nk'abandi bose ukareka gukanura amaso.

Ubwishingizi ni ingenzi kubera ko iyo tubufatiye abana bacu, ibinyabiziga, amazu, buratugoboka aho biri ngombwa. Dushobora kwangiza abantu b'abandi ugasanga tubuze ayo kubavuza ariko iyo buhari buza byihuse cyane bagahita bamuvuza.

Turabizi twese iyo inzu zihiye tubura aho dupfude imitwe ndetse n'abo dutakira. Aho kugira ngo dusebe rero twayoboka ubwishingizi, ndetse bahagerera igihe. Jya ugerageza nawe ubikore. N'imodoka yawe bashobora kuba bakugurira ishyashya igihe yangiritse.

Ubwishingizi ni ingenzi kuberako ntawe umenya aho bwira ageze, tuba tugomba kwiteganyirizako, kuberako ushobora kuhurika uyu munsi ugasitara, ukavunika, cyangwa se ikintu kikakugwaho ugasanga baguciye amafaranga menshi, niba ari urugingo rwangiritse utarwigurira. Ariko iyo babutanze barakugoboka.

Ama apurikasiyo banki zagiye zidushyiriraho yagiye dukemura ibibazo bitandukanye birimo kuba twahura no kwishyura tukabura ukuntu tubikora wenda ugakanda imibare runaka bikanga ariko byarahindutse uhita ujyamo ukagenzura konti zawe ibyabereyeho n'ibiteganywa.

Amapurikasiyo banki zadushyiriyeho yabaye igisubizo cy'ibibazo twari dufite aho wasangaga rimwe na rimwe telefone zacu zitugora gukanda utuyenyeri, udutushe ariko ku bantu bari kujyana n'igihe, ni zo bari kwifashisha cyane zino uyashyiramo ukaba wareba ibikorerwa kuri konti yawe byose.

Banki zaragiye ziratworohereza cyane, aho ushobora kugenzura ibintu bikorerwa ku makonti yawe wibereye mu rugo, gerageza nawe ubikore udebe, nk'uko kino kirango kibigaragaza hari aho kwishyura amazi, umuriro n'ibindi.

Apulikasiyo y'amabanki yadushyiriyeho, zaradufashije cyane zitwungura ubumenyi zituma tugenzura bimwe mu byo twakoraga bigenda neza. Rero ahangaha naho ni byo bari kudushishikariza kuyikora, iyi ngiyi ikwemerera no gutanga inyemezabwishyu, bajya kuyisohoza ahantu habugenewe.

Kwishyura amazi, umuriro n'ibindi bishobora kuguhira ukoresheje ama apurikasiyo yagenwe nkuko tubizi twese ama banki yagiye abitworohereza ndetse anatwegereza amashami yayo aho ushobora kugira ikibazo ukagenda ukagikemura.

Amapulikasiyo yaje adukemurira ibintu byinshi bitandukanye aho twabasha kugenzura konti zacu tutavuye mu rugo tukabasha kuba twakohereza inshuti n'abavandimwe amafaranga cyangwa tugahaha twifashishije kuri murandasi.

Amabanki ni yo yamenye ibyo abantu bakeneye cyangwa se abayabitsamo; aravuga ati: reka dukore ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga turibegereze, aho umuntu aza kugendana konti yiwe mu mufuka, atiriwe aza gutonda umurongo. Ashobora kwishyurira umwana ishuri akoresheje apulikasiyo twakoze.

Amafaranga yawe ushobora kuyajyana mu bacuruzi akakugirira akamaro niba ari imyenda ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, hano rero hari udutara, akabati karimo ibintu wagira ngo ni imitako ushobora kuba wamanika mu nzu yawe igasa neza.

Ibikapu n'ingenzi cyane ni byiza bituma duhikamo amakayi cyangwa se tugatwaramo ibindi bikoresho by'ibanze, nk'uko tubizi nawe ushobora kukigurira umwana wawe akaba yakijyana ku ishuri agiye nko kwiga abayo.

Umwari ubona ko atigeze aboha imisatsi ye ukuntu, arimo arareba umwenda umubere ngo abe yawambara, kimwe n'uko ako yambaye k'umweru n'umutuku ubona ko bijyanye rwose. Inyuma ye hari iyindi myinshi ashobora guhitamo imubereye akaba ariyo atwara.

Tugerageze tujye tumenya ibintu bikwiriye iwacu, niba unacuruza ushyiremo utubati dukeye tumeze neza, hano rero nk'aka ngaka karasa umweru, inyuma ku gikuta hariho ibirango biri mu ibara ry'umukara ndetse bitatse neza.

Kugura imodoka ni byiza cyane ariko biza amafaranga ahagije nk'uko tubizi twese. Irasa umukara, ireba neza, irakomeye ndetse ubaye ufite miriyoni makumyabiri n'eshanu, wayitungira ukajya uyitwaramo umuryango wawe cyangwa ukayigendamo ugiye ku kazi.

Ubundi iyo ufite amafaranga aba ari ngombwa kwigurira ikinyabiziga cyawe ukajya ukigendamo kandi kinaguhenze, icya kitaguhenze ugomba kucyubaha ukagiha agaciro izi nazo rero ziri ku isoko zirasa umutuku amapineyo aracyari mashyashya rwose urayitahana iwawe nuyishyura.

Kugurisha amamodoka ni akazi keza ku bantu bagakora, kuko karahemba ndetse karanungura cyane kandi, rero tugerageze hano rero niho ziri ni nyinshi ziri mu mabara atandukanye ushobora kuza iyo uhisemo bakayikugereza iwawe.

Aho gucuruza imodoka ho ni henshi cyane, birazwi. Ariko hakurya hari indi y'umweru iciyemo akabara k'umuhondo, hejuru haba banditsemo ijambo ryerekana ko itwara abantu mu buryo bwihariye twese turabizi. Ushobora kuyikodesha ikakuvana hano ikakugeza mu ntara. Hari utuhu duteye hano hanze.

Imodoka nziza cyane isa umweru ndetse ikorwa n'uruganda rwa Toyota, ifite amatara y'umutuku ndetse n'ay'umweru hasi n'agahanagura k'ibirahure k'inyuma, imbere harimo imyanya myiza cyane ushobora kuyigura nawe ku mafaranga ubaye uyafite.

Gucuruza imodoka n'akazi kuko n'ababihisemo babayeho neza nta kibazo bajya bagira, uyu rero yambaye akagofero keza cyane ukajya nisheje n'ishati arenzaho ind'imikara kimwe n'imodoka arimara aratunga intoki bigaragara ko ari kwiyisobanurira umugozi cyangwa se umuntu wese wakwifuza kuyihaha.

Hari utubuye tumeze neza ushobora guhagarikaho ikinyabiziga cyawe ubaye ugifite, inzu na yo iriho ikirango cyerekana ubwoko bw'imodoka bacuruza ndetse mo imbere winjiye, muri iriya miryango, ushobora kuzisangamo ugahitamo iyo ushaka.

Imodoka nini cyane itwara imizigo cyangwa se amabuye, imicaka, amatafari n'ibindi ikabivana ahantu kure mu birombe ikabigeza aho ushaka kubakira rero hano hari abagabo babiri bisa naho bamaze kugira imikoranire hagati yabo.

Abasore babiri ariko kumwe ni muremure asumba undi, yambaye ishati y'umweru, agapantaro k'umukara. Inyuma yabo hari imodoka nziza cyane iri kwaka amatara nkuko bigaragara ndetse n'indabo bihateye. Igicu kirasa neza ariko na none kirimo ubururu buke.

Imodoka nziza cyane ubona ko amatarara ari kwaka, iri kureba neza rwose. Ku bantu bafite amafaranga yabo bashobora kuza bakayigurira miliyoni mirongo itatu na zirindwi, ukayicyura ukajya uyigendamo. Ni uguhita unayishakira ubwishingizi.

Imodoka nziza cyane zimikara, zireba neza zihagaze mu tubuye zishashe ahantu ,ubona ko nta cyondo gishobora kugutera. Mu gipangu zirimo harimo, ikintu gitwikiriye cy'umweru, gishobora kuba cyatuma izuba ritazigeuraho n'umuntu niyo yajyamo ntabwo yanyagirwa ngo atohe.

Umusore yambaye umwenda w'akazi arimo araseka agasatsi ni gakeya, afite insinga mu ntoki, yegeranye n'undi mupapa usa n'ukuze bisa n'aho arimo aramwereka ko amaze kwishyura akoresheje ikoranabuhanga ndetse byakemuye byinshi cyane.

Umusaza cyangwa se umupapa usa n'ukuze, arimo araganira n'umusore ndetse imbere yiwe hari mudasobwa y'umukara. Arimo aramubaza amakuru runaka kugira ngo abashe kumufasha ibyo yaraje gusabira hano.

Ababyeyi babiri bicaye imbere ya za mudasobwa hari ikirahure kibatandukanya n'abantu basanzwe baje kwaka amafaranga mu ntoki nk'uko bigaragara hano, rero iyo uyafite mu ikoranabuhanga ubwo uraza bakakuvunjira ukabasha kuba wajya kwigurira ikibanza.

Ahabugenewe aho ugenda ukabikuza amafaranga ari kuri telefone yawe bakayaguha mu ntoki, ukabasha kuba wakwigurira ikibanza nk'uko bisanzwe, hari abaturage bo mu byaro cyangwa se abandi bantu batajya bemera ko wabishyura ukoresheje ikoranabuhanga.

Hari amafaranga yabayeho mbere yuko urubyiruko rw'iki gihe ruriho ruyamenya, rero tugerageze tujye twiga ku mateka yabanje tubashe kumenya uko byari bihagaze naho byari bigeze tunabisigasire rero uko bigaragara aha hariho abategarugori bari kubyina umuco gakondo wacu n'inzu nini cyane.

Umwari wambaye agapfukamunwa k'umutuku imisatsi irambuye, arimo aganira n'uyu muntu ufite imbere ya mudasobwa, bisa naho yari aje kuba yabaka amafaranga mu ntoki ngo bayamuhe, abashe kugenda agira ibyo ayagura.

Mu Rwanda habayeho amafaranga menshi atandukanye ariko hari urubyiruko rw'ubu rutabashije kuyamenya, nkurikijwe uko mbona iki giceri kiriho igisakari, cyakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo irindwi na karindwi, rero ntabwo nabasha kumenya ngo ni ikihe ariko kiri mu ibara ry'umuhondo.

Hari umukecuru ushobora kujya kugurira ikibanza cye, mwakumvikana amafaranga ugiye kumwishyura, wamuzanaho ibyo kumukorera ku ikoranabuhanga akabyanga kubera ko aba ayashaka mu ntoki. Uyu musore rero yigiriye inama aravuga ngo reka nze nyatore, ejo ntazamujya imbere akanshira mu maso.

Amata ni meza ni ingenzi cyane kubera ko afasha abana bacu kuba bakura neza. Mubyeyi niba umujyanye ku ishuri ntukajye wibagirwa kuyamupfunyikira mubyo ari burye. Hano rero hari udutebe twiza, ameza n'ikirango kiriho utubido, n'aho bishyura bakoresheje ikoranabuhanga cyangwa se imyirondoro. Ni yo bacuruza.

Hari abasore ubona ko baba bari gushaka amafaranga umunsi ku munsi, akaba yajya mu biraka uyu munsi, hanyuma nimugoroba agataha agahita yikorera ibiraha cyangwag se amasambusa ku bantu babizi ni nk'ibi ngibi rero. Yifashisha ibirayi, ifarini, amavuta n'ibindi akaba yakwiteza imbere nk'abandi.

Amata ni ingenzi ubaye uyapfunyikiye umwana ,mu gitondo iyo agiye ku ishuri yamubyibushye ni ukuri kw'lmana ndakurahiye! Reba nk'uyu mubyeyi ukuntu ameze bisa naho ariyo yinywereye gusa, ahitamo no kuyacuruza kubera ko inyuma ye hari fanta n'ibindi bishoboka ko wabigura ntabwo ari byo byonyine agiramo n'amandazi wayasanga.

Abana babiri ubona ko bakuze neza bari kwinywera amata, bakubise ku munwa w'igikombe rwose bari kugotomera, bafite keke mu ntoki ndetse imbere ku meza asa umweru hari amasahane n'utubido tubiri.

Bari kuhakoropa kugira ngo hase neza cyane amazi ndetse igare riri imbere y'umuryango cyangwa se hagati hanze ho hari ikinyabiziga gihetse akabido k'umwero n'ikindi kintu bitwazamo amata umusore na we arimo ararenga bisa naho afite ahandi hantu agiye.

Kera byaragoranaga, kuba twafata amata ngo tuyabike mu majerekani amare igihe ariko ubu ngubu byaroroshye, haje ibyuma biyatunganya bikaba byatuma amara n'ukwezi. Hakurya hari amazi aryoshye ndetse na ji ziri mu dukarito.

Umubyeyi wambaye umwenda mwiza w'umweru usa neza cyane hari akabido ateze ko cyumba gitunganya amata kibasha kuba cyabika igihe kirekire bisa n'aho ari kureba umuntu runaka bari bari kumwe waba uje kuyagura.

Tugerageze ibyo tunywa n'ibyo dukoresha tujye tubigirira isuku. Nkuko kano kabido gasa umweru, hariho agapapuro karapfundikiye nta gasimba kagwamo, gateretse ahantu ku meza, impande yako hari umusore cyangwa se umuntu wambaye imyenda y'ubururu.

Umupapa arimo aravomera umusore amata, akoresheje ijagi kugirango ngo asuke mu kariya kabido k'umweru bari bazanye ndetse n'abahagaze imbere yiwe gusa inyuma hari abandi benshi hari icyuma rero kiyabika igihe kinini.

Byaroroshye nkuko tubizi twese ni byiza ko twajya twishakira ibyangombwa tukishyura dukoresheje amabanki yacu n'ayo mapulikasiyo baba baradushyiriyeho ubisangaho rwose ibintu bikagenda neza.

Ibintu byaroroshye cyane, iyo umaze kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga baguhereza inyemezabwishyu yerekana ukuntu byakozwe. Niba ari umuyoboro cyangwa se ari ahandi wabikoresheje nk'uko runo rupapuro rubigaragaza hejuru.

Biroroshye cyane wabyikorera ubu ngubu, ushobora kugura amanite ukajya uhamagara cyangwa se ukaganira n'abawe, ukoresha kuri murandasi nk'uko ibintu bigezweho cyane turi kujyana na byo muri iyi isi, iri kwirukanka cyane tugomba kujyana na yo rero.

Ubu byaroroshye, ikoranabuhanga riri kugenda ribyorohereza abantu nk'uko bisanzwe, uyu mupapa ari kumwe n'umubyeyi, arimo aramwereka imibare ashobora gukanda, akaba yahabwa impano cyangwa se akagura amayinite.

Ibintu byaroroshye dusigaye twishyura dukoresheje ikoranabuhanga bikagenda neza, nk'uko bigaragara kuri izi ntoki z'uyu mwari, inzara zirasize, ateruye telefone, yari amaze kubikoresha rwose, yishimiye ko yishyuye ibicuruzwa.

Kwishyura umusoro ni byiza cyane yewe iyo unabitanze kare biba byiza, kubera ko uba ugize ikintu ushyira cyangwa se itafari ku bikorwa remezo by'igihugu, urugero niba hari imihanda yari kuzubakwa irakomeza, ibigo by'amashuri n'ibindi bitandukanye.

Amafaranga ni ingenzi ariko nk'uko tubizi buri gaho n'umuco wako rero ni na ko buri hantu bashobora gusanga barishyiriyeho ifaranga rimwe cyangwa se inote runaka idahuye n'izahandi kandi bakayigenera n'agaciro.

Tugerageze dufate neza amafaranga kuko adufasha mu ubuzima bwacu bwa buri munsi; iyo tuvuje abana ni yo dutanga, twahaha, twagura imyenda, inkweto, twishyura aho tuba, amazi, umuriro n'ibindi, n'ubundi turayakenera rero tugerageze.

Amafaranga ni ingenzi cyane kubera ko ajyagiye yadufasha ibintu byinshi bitandukanye atugezaho twebwe tutagakwiye kuba twageze igihe ntayo dufite, rero tumenye kuyashaka ariko ni tunayabona tuyagire icyo tuyamaza kizima.

Amafaranga aradutunga ntabwo tuyatunga nk'uko tubizi birasanzwe rwose, rero umuntu uyakorera uwo nguwo aba yashiritse ubunebwe. Tugerageze tumenye ibyo dukwiye ndetse n'aho dukwiye kuba. Rero aya ngaya ntabwo ari amanyarwanda ariko ubaye uyafite, hari ahabugenewe ugenda bakayaguhereza ayo ushaka.

Amafaranga ni meza cyane kubera ko atuma twambara tukishyura aho tuba, tukagura ibibanza n'amazu tukabyubaka ndetse bikadufasha no gutunga abandi. Tugerageze rero ayo tubonye tuyabyaze umusaruro, tuyakoreshe neza. Ubaye ufite n'atari ayo mu gihugu cyawe ushobora guhita uyavunjisha bakayaguhereza.

Amafaranga ni ingenzi cyane kubera ko turabizi natwe ntabwo twabaho tutayafite, yego aba kera barabigeragezaga ariko na none barahinduranyaga niba ufite ibishyimbo ukabitanga bakaguha imyumbati, niba ufite ibitoki ukabitanga bakaguhereza ipantaro ngo wambare, ariko ubu ngubu si ko bimeze. Turayarya ahubwo ntabwo tukigurana, ibyo byavuyeho.

Amafaranga ntitukayakinisha kubera ko yaguze n'umwana w'Imana, ntabwo rero bishobora kuvuga ko n'inshuti yawe itakugambanira ibonye uyafite, gerageza ubike makeya ntiwerekane ko ufite menshi, ntabwo wamenya abantu neza, bino rero ni ibiceri ndetse n'inoti.

Wari watunga amafaranga ukabura icyo uyamaza? cyangwa se waba ucuruza, umuntu yaza akakwishyura mu madorari ukabura ukuntu uyavunjisha? Byarakemutse, buri hantu hose haba hafite abantu babugenewe bo gukora ako kazi, ahubwo wowe banza umenye amakuru y'aho uri buyajyane.

Papa arimo arahindura ukuntu amafaranga ahagaze uyu munsi ayo wabona ntabworiyo ejo ushobora gusanga ariko akiri rero tujye dufatirana igihe dufite n'ayo dufite tujye tuyabyaza umusaruro ako kanya tuyahinduze

Amafaranga y'abanyamahanga ni meza cyane, kimwe n'uko ushobora gusanga aba afite agaciro kanini mu gihugu cyacu, rero tujye tuyafata neza niba hari nk'umuntu uvuye aho ngaho akayakwishyura ubashe kuba wajya kuyavunjisha ahantu habugenewe.

Tugerageze ni ugucuruza bakakwishyura amafaranga atari mu gihuguhugu cyawe ujye uyuyubaha ndetse hari ahabugenewe ajyana bakakuvunjira bakabaguhereza abanyarwanda bakabaho nezatyo baka kuyafata neza cyane ku nkaziyasagure.

Amafaranga ni meza kubera ko aduhuza n'abantu tutatekerezaga kubona, ndetse tukagera aho twifuza; ariko nanone iyo uyabuze biba ikibazo. Uramanuka ugasubira hasi cyane, ukagenda bakunyuzamo ijisho. Tugerageze make dufite tuyabyaze umusaruro, tumenya n'ukuntu yatuma atubanisha n'abandi.

Ikirango gikoze mu byuma, ndetse bisize akarangi k'ubururu ku mitwe, ahandi hariho amabara y'umuhondo, n'amafaranga, giteye rero mu busitani, burimo utwatsi n'indabo zisa umukondo nyine ndetse hakurya hari amazu meza cyane n'ibiti.

Utwuma twiza cyane tw'umweru, duteyeho ikirango cy'ibara ry'ubururu rigiye ryanditseho amagambo yerekana ko hari ubwiyunge cyangwa se ari izina ry'ahantu bakuvunjira amafaranga, ushobora kuyazana rero bakabigukorera, inyuma hari ibiti n'abandi bari kugenda mu muhanda.

Ibiciro by'amafaranga bigenda bihindagurika umunsi ku munsi ndetsen'uko bwije n'uko bukeye, tugerageze rero tujye tuyafata neza igihe tuyafite, hano rero biragaragara ko amwe ari ku gihumbi magana arindwi andi ari ku gihumbi magana arindwi mirongo itatu, urumva ko arutanwaho gake gake.

Amafaranga yo kuvunjisha yo arahari, si ibyo gusa ushobora no kubikoresha ikoranabuhanga, kuko byaroroshye cyane, hano rero iyi ni inzu ifite amadirishya nkuko bigaragara rimwe rirafunguye ibirango biriho byerekana icyo bakora, hasi bamwe bari kugenda bahasatira binjira.

Akazu kariho ibariho ibirango by'ibintu akora byinshi cyane bitandukanye birimo n'amabanki bakorana, ushobora kuza ukabitsa cyangwa se ukahabikuriza bitewe n'ibyo ukeneye cyangwa se waba ufite ibyo ushaka gusobanuza bijyanye n'aho ikoranabuhanga rigeze bakagusobanurira nk'uko uno musore uhahagaze nawe ari byo yajemo.

Ni henshi cyane ushobora kugenda ukajya wivunjishiriza amafaranga yawe igihe uyafite. Rero tugerageze tuyafate neza kubera ko aradutunga cyangwa se akatuguriramo ibintu bitandukanye amazu, ibibanza, akishyura hoteli n'ibindi. Ano mazu rero ni aha ngaha ushobora kuza bakagufasha.

Ku bantu bakora akazi k'ububaji buragabura barabizi ushobora gutuma wishyura umwana ishuri ukamujyana ahantu runaka umutembereza nkuko' imiryango isohokana rero tugerageze natwe turebe icyo dukwiye buri cyo dukora izi ntebe ni esheshatu ameza nayo arahari ubona ko ari umuryango wose ushobora kwicaraho bakaharira.

Ababaji ni abantu bagira ubukorikori utabasha kumenya ubwo ari bwo, bakora ibintu bitandukanye nk'ibitanda kandi ukibaza ubwenge burimo bikagucanga, ariko buri muntu agira ibanga ry'akazi ke nk'uko tubizi, kano rero kameze nk'akazu ndetse gakoze mu mbaho.

Umubaji ubundi ni umuntu ugereranya akareba ibyo ukwiye cyangwa se amafaranga umuhaye, akagukorera ihwanye nayo. Rero utu ni utubati twiza cyane dukeya, dufite intebe. Nkuko bigaragara hakurya hari n'izindi z'imisego; izo nari mvuze mbere, ni izo kuriraho cyangwa se abantu bicaraho igihe bari gufungura.

Hari utuntu ababasha ba gukora akabati bamanika iwawe tugatuma hasa neza nkuko biw'ikitero kandi na co karimo nako gafite ibice byinshi bitandukanye amavase indabo zirimorimo ibiti n'ibindi bishobora kumanika ku muntu ubishoboye yanashyiraho karauda hejuru akajya yirira.

Kugira iwawe bijyana n'ibintu ufite mu nzu ndetse n'agaciro kabyo nkuko bigaragara hano izi ntebe, umwe yicaramo abantu batatu, izindi ni umwe umwe ku giti cye, amadirishya nta dutambaro turiho tuyacyingiriza kugira ngo urumuri rutinjira, ariko watwimanikira ubaye uyishimye.

Intebe ni nziza, kubera ko zituma mu nzu iwawe hasa neza nk'uko nazo zimeze, imisego n'umweru, hari iyicaramo abantu batatu, babiri, ndetse n'umwe. Ameza nayo atatseho utuntu, ndetse inzu nayo iteye akarangi gakeya.

Kubumubyeyi ni byiza cyane kuberako ntabwo bitungurana ushobora kubona abantu bagusuye kagendavuga ko wiyubashye hano rero hari utubati intebe bicararaho uri kwireba muri ibyo birahuri ndetse n'izindi wakiriramo abantu.

Hari intebe nziza zabayeho, ubona ko ziba sinakeye washyira n'iyo uyicayemo wumva utekanye utababara, ikibuno cyawe kitari bwangirike ndetse bigasa neza, hakurya hari uturabo, turi mu kirahure n'ameza ateretseho.

Hari ahantu ushobora kujya ntubure icyo kunywa nk'uko bisanzwe kandi ukisanga mu byiciro byose, urugero niba utanywa ibisembuye cyangwa se ibidasembuye ubwo byose wabibona ariko hano birahamanitse. Inzoga nyinshi ndetse za zindi unywa rimwe ugahita usinda ariko hari abazishoboye.

Ufite umukunzi ukaba warabuze ahantu umusohokanira ngaha rero baba barahakubakiye ahubwo nuko uba utahazi. Jya ugerageza ushake amakuru. Reba intebe zihari zirasa imikara, ameza atatse udutambaro tw'umutuku ndetse n'utwo kwihanaguza tw'umweru. Hirya hari ibiti ubona ko mushobora kuhifotoreza bikagenda neza.

Igikoni cyawe kiba kigomba kugira isuku ndetse ibintu biri ku murongo, binakeye, harimo utubati, aho gukarabira, aho kubika ibiryo n'amasahani n'ibindi, ariko ibyo byose bikorwa ari uko ufite amafaranga nk'uko hano bigaragara. Ku wabibaje na we yatwaye menshi.

Aho kuryamaho ni henshi cyane kubera ko haba hameze neza nk'uko bigaragara . Amashuka ,imisego, amatara, utumeza cyangwa se utubati n'intebe zo kwicaraho igihe uri kuhakorera akazi kawe .Haba hije rero igihe ubonye utareba neza, uhita wimurikira cyangwa se ugakuraho biriya bitambaro by'umweru urumuri rukinjira.

Amatafari ahiye atuma inzu zisa neza nk'uko bigaragara. Ibirahuri birimo, indabo zihateye z'umuhondo, ibiti bizana akayaga, urahicara ukahifotoreza bikagenda neza, aha rero ushobora kuhazana umukunzi wawe, mukishimana ibintu bikagenda neza.

Hari abantu baba baragiye bagafata amafaranga yabo bakayashora mu bintu runaka, byaba iby'ubutaka cyangwa se kubaka amahoteli ahantu waza ugasohokera ni byiza birungura, ubu rero ni ubwogero iyo umaze kuvamo uraza ukiryamira kri utu dutebe ukaruhuka unareba umujyi.

Aho kwakirira inshuti zawe n'abavandimwe bazisohokanira ni henshi kandi harahari izi ndabyo rero ni nziza cyane harimo umwari urimo uragenda wambaye impuzankano z'akazi zisa umweru, intebe ashobora kwicazamo umuntu ntakunyuzemo ijisho.

Aho gusohokanira abakunzi bacu ho habaye henshi. Reba ukuntu hakeye hateguye utuntu two kwihanaguza wenda ubaye usa nabi mu ntoki ufite ibyunzwe, amatara acana nijoro cyangwa se no ku manywa ukabona bisa neza, amadirishya n'ibirahure iyo unyujijemo amaso uba ureba hanze.

Hari abantu bikundira kunywa ikawa, ni nziza ariko na none njya numva ngo ituma udasinzira. Iri mu gakombe keza rero k'umweru gateretse ku gasahane bisa, ameza ni umukara, hakurya nkuko bigaragara ni mu gikoni.

Tumenye aho dusohokanira urubyaro rwacu n'abo dukunda. Amahoteri ni cyo yakorewe kugira ngo tujye tuza twoge, dutemberemo, turebe ukuntu biba byifashe. Rero hano hari ubwogero bwiza cyane bufite amazi meza, udutanda two kuryamaho, tunasakaye, igihe wumva urushye

Ubwishingizi ni ngombwa kubera ko butuma twivuza tukabasha kuba twabaho neza ku mafaranga makeya hano rero hari inyubako nziza ifite ibirahure gusa urebeyemo harimo indi igeretse inshuro nyinshi ibirango biri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Moto ihagaze ahantu hari utubuye twiza cyane, iyi ngofero ibarinda ibyago yayishyize mu mahembe yayo, hakurya hari ahantu hari uturabo twiza cyane. Iyo winjiyemo rero ubona ko batanga ubwishingizi ku binyabiziga, ubwo bigarage ko n'uyu ari byo yari aje kureba.

Umusore mwiza cyane ubona ko yicaye yambaye imyenda y' mikara kimwe n'abandi bari hakurya .barimo umudamu cyangwa se umutegarugori , ahantu bicaye rero hasheshe igitambaro kiriho ibirango mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru biranga ibigo bigiye bitanga ubwishingizi hano mu gihugu.

Ubwishingizi ni bwiza cyane kuko bugoboka ibinyabiziga, amazu n'imiryango. Iyo utabifite urabwahagirana reka mbivuge ukonguko. Kubera ko iyo urwaje umwana bakagutegeka kumujyana mu bitaro bikuru, ntabwo ubasha kubona ayo kumwishyurira. Wagonga umuntu, ntabwo amafaranga baguhereza cyangwa se ku giti cyawe ufite, ashobora kuriha uwonguwo. Rere iyo ubufite, uba umeze nk'umuntu witwikiriye umutaka, izuba ritakica cyangwa se imvura ngo inyagire.

Amaduka asigaye yarabaye menshi aho bacuruza ibiribwa bitandukanye cyangwa se ibinyobwa biterwa, hari n'ababiranguza nk'uko bigaragara, hariya rero hari inzu igeretse mu miryango iri hasi iteye ibirangi by'ubururu, ibirango by'umweru biriho abantu benshi bari guterura amakarito.

Ubwishingizi ni bwiza cyane kuberako bushobora gutuma umuryango wawe ubahoho umeze neza kandi ntaki kibazo uhura nacyo kubera ko wawubafatiye gerageza rero ubikore hakiri kare nkuko ya bikwiye ura musore wambaye umupira w'umweru arimo arasobanurira uyu mugabo ahagararanye.

Ubwishingizi bw'inzu yawe, imodoka, ahantu hose ishobora kubufata ndetse n'umuryango kubera ko iyo byangiritse cyangwa se ibyago bigiye kuza ntabwo biteguza. Gerageza rero umenye ibyo ukeneye. Uno muryango w'ubururu uriho ibirango byanditseho amagambo y'umweru, ni ho ushobora kwinjira bakagufasha.

Ideni ni ryiza cyane nk'uko rifasha abantu batandukanye, rero turifate tubiguramo ibibanza ku buryo tunaniwe kuryishyura twabisubiza ku isoko bakayaduha tukanungukamo. Tumenye ubwenge rero mbere yo kugira ibindi bintu dukora.

Ideni ni ryiza cyane rishobora gutuma tugura ikibanza cyangwa se tukubaka inzu zari zaratunaniye kuko nta muntu wigira nk'uko tubizi, hano rero hari abamama, aba papa barambuye amakayi ndetse abandi batonze umurongo bisa naho buri muntu ari muri gahunda ze utamenyazo izo arizo, ariko ubwo n'abaje kuba bafata uwo mwenda nabo barivanze barimo.

Hari aho imodoka zihagarara nkuko babyerekana gusa turiya tuntu tw'amabara y'umutuku n'umweru tugaragaza ko zitagomba kuharenga ,ndetse imiryango irafunguye mwakwinjira mwese mukaza mugasaba ubufasha runaka, burimo n'umwenda wo kuba mwakwiyubakira inzu ,gusa hirya hari ahantu bacuruza imyenda.

Inguzanyo ni ikintu gihagama umuntu iyo yananiwe kucyishyura ariko ubaye ufite akazi keza gatuma wajya wishyura buri kwezi ni byiza kurifata ukayiguramo ikibanza ariko iyo bikunaniye ejo cya kibanza urakigurisha ugahita wishyura, tugerageze rero tujye tubanza tubone ibyo dukeneye kugira ngo dukore ibyo dushaka.

Abategarugori batanu, bambaye imyenda isa, yiganjemo umutuku, umweru ndetse n'ubururu, imbere yabo hari imodoka, niba itegereje kubatwara ntabe ari byo ubaza, gusa impande hari umusore wagirango afite ibintu arimo kubabwira.

Abantu benshi ubona ko bari bitabiriye igikorwa kiri kubera hano, harimo abakuze ndetse n'abatoya, abategarugori n'igitsina gabo nk'uko bigaragara, hakurya hari undi na we uhagaze ku kameza kariho igitambaro cy'umweru n'agacupa k'amazi.

Gerageza nawe ufate ideni kugira ubashe kwiga, cyangwa se ukemure ibikorwa remezo byakunaniye, niba waraguze ikibanza ariko kikakunanira kucyubaka, hano rero bakagoboka guhera mu mizi, kugera paka inzu wayisakaye. Ni byiza rero ko nawe wagerageza ukamenya ibyo ukeneye, ukiteza imbere nk'urubyiruko.

Ideni ni ryiza cyane ariko nanone riba ribi iyo wananiwe kwishyura bagutereza utwawe. Ariko hari uburyo bworoshye; iyo ufite akazi karikwishyurira aba ari ngombwa kuba wagerageza ukarifata. Nanone ukariguramo nk'ikibanza, inzu ukubaka ku buryo igihe cyose wazabona ka kazi kawe gahagaze, ushobora guhita wifashisha bimwe waguze ukabyungukamo ukaryishyura.

Gerageza ute indi ntambwe ufata ideni cyangwa se wake umwenda kubera ko ni ingenzi cyane. Urawukenera igihe uri kwiyubaka, ushobora kubona uri guhomba, ukawitabaza bakawuguhereza cyangwa ushaka kugura ikibanza waba waragihashye, ukabura uburyo ucyubaka na byo byagufasha.

Ujye ufata ideni ubasha uzishyura ndetse nk'uko bigaragara hano bari guhereza hariho ikirango kiri mw'ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ibipirizo intebe zo kwicaraho nziza cyane zikeye zijyanye n'igihe.

Wa muntu we, niba uteganya gufata ideni, gerageza ubanze urebe winjiza angahe, ese ukora gute, akazi kawe uzakamaramo igihe kingana gute, nibyiza rero kubanza kumenya ibyo kugirango uze kuryaka hano, ubona hari intebe nziza z'umikara, aho kukwakirarira hariho utubati dusa icyatsi.

Amadeni ni meza kubera ko ashobora gutuma twubaka ibibanza byatunaniye, cyangwa tukagura ibintu twashakaga. Rero tugerageze tujye turifata, ariko bibaye ngombwa twashaka akazi kazajya kadufasha kuryishyura igihe runaka.

Dukenera kurya kugira ngo umubiri wacu ugire imbaraga zo kubasha gukora ibindi bintu bitandukanye biduha amafaranga natwe tukaza tukayatanga hano tugura zino nyanya, ibitunguru, amashaza, ibishyimbo, ndetse n'ibindi umuntu ashobora gukenera.

Umusore wambaye imyenda y'imikara ndetse agapantaro ke karimo uturongo tw'umweru, inyuma ye hari agatebe kamwe ka kinyarwanda bicaragaho bari gushinga umuheha mu bicuma kugira ngo babashe gusogongera kurwagwa na we ari kugasonga bugari, bacuruza rero ibintu bitandukanye bya gakondo birimo ibiseke, ibyibo n'ibindi.

Harakeye cyane nta kajagari k'amodoka n'amamoto karimo cyangwa se uruvunganzoka rw'abantu bigaragare ko uyu munsi batari bakoze. Iyi nyubako ubona iriho ibirahure ni isoko. Ni ahantu ushobora kuza ugahahiramo imyenda, ibiryo, ibirongoranwa ubaye ugiye gushyingirwa.

Umubyeyi ubona ko ari kumwe n'abandi benshi, gusa inyuma ye hari uhetse umwana, ndetse imbere ye hari utubasi, ak'umukara, ak'icyatsi kavanzemo n'umweru, umufuka ndetse n'isahani iriho ibirayi niba ndeba neza.

Umubyeyi witadiye. Ateruye imboga zimwe arimo arazitegereza, kugira ngo abashe kumenya niba zikiri nzima. Imbere ye hari ibindi bitandukanye, tutabashije kumenya, ariko hirya gatoya hari n'abasore, bisa nk'aho aribo bari kuzicuruza.

Umubyeyi yateze ibitambaro yambariye agashati k'umweru hejuru, igitenge yagikenye rwose urabona ko aberewe naho uri gucuruza ibitunguru, inyuma hari inyanya, imbuga n'ibindi byinshi ushobora kuzagaha kuko ni ingenzi cyane turabikenera.

Mu isoko ni heza cyane, kuko haba harimo ibiribwa dushaka byose, rero ibi ni ibijumba byongera imbaraga, imyumbati n'ayo ni uko, amapera ndetse na karoti, imyumbati iva mo ubugari, imiteja n'insenda.

Inyanya n'imbuto nziza, zidufasha ibintu byinshi bitandukanye, zitukuza isosi, ikaba yaryoha nk'iyo uzitetse mu nyama aba ari akarusha. Aba babyeyi rero nizo bari gucuruza, umwe arimo arereka undi, hirya hari insenda.

Ababyeyi bacuruza bazi ubwenge kubera ko bashaka kuburira abana babo bakabatuka. Rero ngaba ni batatu, barimo barajonjora ibyapfuye, kugira ngo babijugunye, bashyire ku isoko ibizima.

Usangamo ibiribwa bitandukanye bitungaye abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi, nk'uko bisanzwe cyangwa se tubizi ibi n'ibishyimbo rero ndetse n'ibigori bivanze bibyara impungure, ubwo ku bantu babizi cyangwa se baziriye bahita babyumva hakurya rero hari abadamu bahicaye nabo n'amabasi ari gucuruzwa.

Umusore wambaye umupira w'umukara inyuma ye hari agatebe ka kinyarwanda bicaragaho kera bari nko kuganira ariko kari ak'akabasaza nkurikije uko mbibona, agasongabugari na we yicayeho bagakoresha mu izina rya ko urimo urarika, inyuma ye hari ibikoresho byara bya gakondo birimo ibyibo nk'ibisabo ndetse n'indi mitako.

Umupapa yiyambariye umwenda w'akazi usa umuhondo, yicaye ku gatebe ndetse arimo arahereza undi na we terefone ngo ashyiremo nimero ze, abashe kuba yamubikuriza cyangwa se akora ibindi bintu bitewe n'ibyo yari aje kureba. Bari mu mutaka rero, hakurya hari undi w'umutuku.

Niba nawe ubona ubuzima bwanze gerageza ufate igishoro uge gucuruza amayinite kubera ko biragabura kandi bituma ubaho neza nk'uko bantu bari mu kazu k'umuhondo gafunguye babigerageje kandi uno akaba aje no kubahahira.

Akazu karafunguye hari umusore uhagazemo wambaye umupira urimo uturongo tw'umweru n'umukara, kanditseho amagambo afite ibyo asobanuye n'ubwo tutareba neza, gusa inyuma hari ibyatsi byahameze n'igikuta cyangwa se igipangu cy'inzu runaka.

Umwali yaravuze ngo nubwo nsoje kwiga reka mbanze nishakire amafaranga nzabonadukoreshasho njyana ku ishuri. Avuga ngo reka ncuruze ama inite, dore ubu nibyo arimo. Ikayi n'ikaramo imbere yandika imyirondoro, ndetse n'umugabo wari uje kumusaba kumuha ama inite.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo amagambo yandikishije umukara, harafunguye hicayemo umuntu abandi batatu bari hanze bisa naho bari baje gusaba ubufasha runaka, burimo kubikurikizwa amafaranga yabo bakaba bayabaha mu ntoki.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo gafunguye munsi harimo abagore babiri ndetse hirya gatoya hari abagabo batatu na bo ubonako baje kureba ibintu runaka birimo kuba bashaka kubikuza cyangwa se kubitsa.

Inkumi n'abasore bari baj ahantu batwikirije iki gitambaro cy'umuhondo ndetse umusore yicaye ku gatebe k'ubururu imbere hari mudasobwa irambitse urupapuro isa nahoho bari baje kubaza amakuru runaka y'aho isi igeze cyangwa se kubona ikoranabuhanga ri kugenda ritera imbere.

Hari ahantu dushobora kuba twashakira amakuru atandukanye y'ibicuruzwa, yaba inkweto, imyenda n'ibindi. Ntago wahabura rero ni kuri murandasi, aho ushobora no kubiguriraho bikakugeraho iwawe aho wiryamiye rwose utiriwe uhava.

Guhaha dukoresheje ikoranabuhanga byadufashije ibintu bitandukanye, hari igihe twisangaga dutashye bwije tukananirwa kuba twahaha ugase turaburaye na mu gitondo kubera umunaniro tukabyuka twumva tutameze neza, ariko ubungubu abaye ari ibiryo uhita ubitumiza bikakugeraho iwawe.

Ikoranabuhanga byarakemutse ndetse byabaye akarusho kuko aho ugeze hose, ubasha kuba wakishyura ukoresheje telefone yawe. Noneho ibigezweho ushobora gutumiza ibintu wihereye mu rugo bikakugeraho.

Umusore rwose abona ko yiyambariye ingofero y'akazi, ishobora kumurinda ibyago igihe yakoze impanuka, umwenda mwiza usa icyatsi, utuntu tw'umweru, ahetse igikapu kirimo ibintu abantu batumije nk'uko bigaragara hano, vuba vuba, rero haba harimo ibiryo cyangwa ibindi ushobora kubaka bitari ibiryo wenda nk'ibyo kunywa.

Ibintu byaroroshye rwose, ntabwo bikigoranye, aho wagorwaga no kujya gushaka impapuro zikwinjiza mu birori runaka ariko ubu kuri murandasi ushobora kuzigurira ukazagenda ugiye kwinjira gusa.

Ahantu ushobora kugurira ibintu bitandukanye ni henshi nk'uko tubizi. Rero tujye tugerageza tubyishyiremo kubera ko ubaye uru mu rugo, watumiza ibiryo bikakugeraho. Iki ni ikirango rero kibyerekana, kiriho ahantu ushobora kubandikira cyangwa se ukabahamagara.

Aho kugurarira ibintu byinshi ho harabonetse twibereye mu rugo bikatugeraho irimo za mudasobwa, intebe, imodoka, amazu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye rero dushobora kujyayo kuri murandasi tukabireba twabishima tukajya kubisura.

Guhahira ku ikoranabuhanga, cyangwa se ukoresheje kuri murandasi, ni byiza cyane kuko biragufasha, urugero niba wumva unaniwe ukeneye agapantaro, agakweto, uhita uvuga uko wambara bakabikuzanira iwawe rwose nta kibazo, ubundi ukishyura bikugezeho.

Hari ahantu haba harabugenewe kugira ngo bagukorere ibyo ushaka, wajya ushaka gushinga imbuga nkoranyambaga wazajya ukoreraho akazi kawe karimo ubucuruzi kwamamaza ibikorwa ukorara n'ibindi, nta handi rwose wahageze, ushobora guhamagara izo nimero bakagufasha.

Twifashishije ikoranabuhanga, byaroroshye cyane nk'uko bigaragara, aho ushobora ku wagura imyenda irimo ipantaro, ishati, ukarenzaho n'agakweto gafunze cyangwa se agafunguye kugira ngo ujye ukajyana gukaraba

Ahantu ushobora gusanga ibintu bitandukanye, birimo aho gukodesha cyangwa kugura, inzu zo kubamo igihe gitoya, n'igihe kirekire ubaye uvuye mu mahanga, iyi rero ni ikirango kiri kubikwereka ko ihari, ndetse ikaba iherereye Kibagabaga.

Ibyatsi byiza, cyangwa se bita ubusitani, kubera ko harimo ibiti, hakurya ariko bisa n'aho, baharunze ibikoresho by'ubwubatsi byakoreshejwe, birimo imicanga n'imbaho, ndetse hejuru hari ibirahuri byiza cyane, n'ahantu ushobora guhagarara ukitegera umujyi.

Inzu ziryoshye zo zirahari cyane kuko iyingiyi ifunguye hano igaragara ko ari mu gikoni hari hejuru hateretse icupa ry'amazi ntiho wanyuze amaso hirya wagira ngo naho abantu bicara baje kuruhuka cyangwa se wa kakirira abashyitsi.

Amazu meza cyane akeye ndetse hateye utwatsi, n'uturabo, bigaragare ko hasa neza nk'uko bigaragara. Ushoborarero kuza ugakodesha ukiberamo, ubaye uvuye mu mahanga. Igicu kirimo umweru mwinshi, ubururu bwo ni buke.

Amafaranga ni meza ashobora gutuma wubaka inzu ikagutunga igihe runaka ndetse ukabamo n'umuryango wawe, ushobora kuyikodesha cyangwa se ukajya kuzigurisha, rero hano harasa neza nk'uko bigaragara amakaro nkurikije uko mbibona ni mu gikoni.

Amazu yo gukodeshayo arahari kuko ikintu kibura ni amafaranga ariko ibyo ntigiyekunda gukorwa n'abantu bajya kuva hanze batazaguma mu gihugu igihe kirekire iyi na yo ni yo. Rero aho uriya muntu ari kwinjirira bigaragara ko ari mu gikoni kubera utubati duhari n'aho watekera cyangwa se kogereza amasahani.

Tujye tugira isuku ahantu turara dusiga dushashe ariko hari akantu njya numva ngo nta muhungu ubizi cyangwa se ujya ubikora rero twikubite agashyi. Hano nkuko bigaragara amakaro meza amadirishya n'umuryango birafunguye ushobora kuza rero ukahakodesha cyangwa se ukahagura ubaye ufite amafaranga.

Buriya gukodeshan inzu ni ibintu byiza cyane, ubaye unaziranga noneho ubonamo amafaranga. Ni akazi ushobora gukora kakagotunga wowe n'umuryango wawe. Gusa ntabwo ari ibya buri munsi ushobora kuyabona uyu munsi ejo ukayabura na ko isi imeze. Rero ku madorari magana atanu mirongo itanu ngo nagera kumbi magana atandatu by'amanyarwanda kuzamura wayayibamo harimo intebe ameza akaguhungiza.

Amazu meza yo arahari ahubwo amafaranga ni yo yabuze agora kuyabonera rimwe kugira ngo tubashe kuba twagira aho twigeza. Iyi rero urabibona irakodeshwa ariko ni ku bantu bihagazeho, intebe nziza, ameza ndetse hakurya harafunguye, hinjiramo n'akayaga, amatara arakeye.

Amazu akodeshwa ni meza cyane ariko abantu bayakora, babona amafaranga kubera ko biriya ni umushinga udahomba. Rero ino ngiyi na yo iri muri izo. Amatafari ndetse iteye akarangi k'ubururu n'igipangu gusa n'ibice bibiri hirya gatoya, urahabona umuntu usa n'uri kwinjira.

Akabati ariko karimo na robine, ashobora gukarabiramo cyangwa se ukogerezamo amasahani nkuko bigaragara, utundi turi hejuru ubikamo ibyombo cyangwa se ibintu abantu bariraho, hirya hari imitako ijya kumera nk'ibiti, ushobora kuyikodesha ku bihumbi ijana na mirongo itanu byawe, iherereye ku Gisozi.

Izo gukodesha zo zirahari nkuko bigaragara iyi nzu yubatse neza ndetse ahantu annyura ya rututafari hari ubusitani buryoshye nk'uko bigaragara amarange y'ubururu, amakaro, amahombo amanura amazi y'imvura.

Akazi ko gucuruza amazu karagabura, n'ibibanza n'amamodoka, nkuko uriya mwari ameze wagira ngo arimo arabiranga, asobanurira abantu bayakeneye uko bamubona cyangwa se aho bamushakira, hari utubuye twiza cyane, imodoka ziparitse inyuma ndetse n'inyubako zigeretse.

Inzu nziza cyane yo gukodesha ku bantu babifitiye amafaranga yabo rwose batura ku muhanda nk'uko bigaragara, ndetse ibipangu n' bibiri harimo umuhanda uzamuka kimwe zifite amabati y'umutuku ndetse n'ibiti mbiri hirya.

Ibipangu bibiri byiza cyane bimeze neza kandi bihenze, harimo inzu igereretse inshuro eshatu ifite inzugi z'umukara, ndetse ubona ko bikeye. Hakurya hari izindi ziteye uturangi tw'umweru.

Inzu zikodeshwa zirahari, iyo ufite amafaranga uturaheza ariko biterwa n'ingano yayo, hano rero hari ubusitani bwiza cyane indabo, igiti cy'umwembe zishobora kwerara ukasarurira n'mbuto rwose ntabwo wazirirwa uzigura. Hakurya rero hari na keti y'amarangi y'umweru n'amadirishya meza.

Igikoni cyiza cyane kiri muri iyi nzu ndetse hari ubukarabiro aho bogereza ibyombo, utubati tubikwamo ibyo guteka cyangwa se amasahane, idirishya ufungura kugira ngo akuka kinjire, rero nawe wakodeshe inzu ufite icyumba kimwe ubwogero ibihumbi magana abiri iherereye Kacyiru.

Inzu imeze neza ubona ko hari udutafari dushashi tw'umutuku n'umweru, abantu bafite imodoka cyangwa se ibindi binyabiziga baza bakabihashyira ni eshatu zajyamo, irubakitse imeze neza rwose kuri miliyoni zawe ijana na mirongo itanu waza ukayigurira.

Hari amazu akomeye rwose ushobora kubikamo amafaranga yawe ukavuga ko utayajugunye nk'iyi ngiyi, ariko byanze wayikodesha ukayibamo mugihe utarabona iyawe. Igipangu cyubakije amatafari ahiye gifite amadirishya ashobora kureba hanze ndetse harimo n'ibitimo imbere.

Inzu zo gukodesha zo ziraboneka cyane, hano rero hari ubusitani cyangwa utwatsi tuhateye, hakurya harisize iry'umweru hejuru hari irangi, inyuma hari utuzu duto umuntu ashobora kutuza umukozi cyangwa se abazamu.

Intebe n'ameza ku mafaranga make nawe wabyikoreshereza ariko biterwa n'aho wagiye nta ari buri hantu hose, ana harasa neza ni nziza zifite udusego hakurya hari umwari wambaye imyenda y'imikara bisa naho arimo araka ibinyobwa runaka bamutumye

Aho guhahira ho ni henshi nkuko tubizi muri iki gihugu, ndetse harasa neza, hano harimo amakaro, umusore wambaye ishati y'umweru n'agapfukamunwa arimo arirebera hasi rwose. Hirya hari abandi baje guhaha cyangwa se kugura ibyo bakeneye n'umuntu ubafasha.

Amaduka meza cyane dushobora guhahiramo ni nk'aya ngaya, kubera ko ibintu biri ku murongo bitatuma ujagarara ngo uge gushaka ikintu aho kitari, rero hano hari amata nk'uko bigaragara, hirya hari ji ushobora kugurira umwana wawe akanywa.

Tugerageze tujye duhaha tujyana n'igihe kandi nk'uko ibintu bigenda byimuka cyangwa se bihindagurika umunsi ku munsi. Bano babyeyi batatu rero, bari baje kugura. Aya ni amata nkurikije ukuntu ndikubibona afunze mu makarito, naho hakurya hari ibirango bihamanitse byerekana amakuru runaka.

Amaduka meza rwose ubona ko arimo ibintu biba bikeye, biri no ku murongo utapfa kubibura, nka hano harimo haraka amatara meza cyane, hasi hatonze umurongo w'inzoga zisembuye ndetse n'izidasembuye zirimo nkurikije uko ndi kubibona, zifite ibirango by'umutuku n'amaji.

Mu amaduka ni ho ushobora gusanga ibintu bitandukanye bishobora kugutunga cyangwa se bikakwambika, urugero inkweto, imyenda, amapantaro, amashakoshi y'abadamu, ibikapu by'abagabo, n'ibindi, hano rero hari umusore n'inkumi bari barimo, bisa n'aho ari ibyo bari baje kureba.

Amaduka yo ni menshi dushobora guhahiramo ibiribwa ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, yaba imyenda, amasorori, amasahani, ibiyiko turisha iwacu, ndetse n'ibintu byose umwari ashobora kwinjirana mu rugo. Hano rero wabihasanga, nkuko bigaragara abantu bari baje guhaha.

Ku isoko harimo imyambaro ishobora kubera buri muntu wese waba ubyibushye waba unanutse wayisangamo. Inkweto, imyenda za nimero zitandukanye, hano rero harimo amakote meza cyane nkuko bigaragara by'umubyeyi si umwe ni benshi bose bari baje kwiharirara.

Tugerageze niba dufite amafaranga dushinga ibyo dufitiye ubushobozi tuzabasha kugenzura igihe runaka, urabona rero baracuruza harimo fanta, amazi, ibiribwa birimo imigati ndetse n'ibindi bitandukanye, harimo n'umwari rwose wambaye agapira k'ubururu agasatsi yarasokoje.

Iduka ririmo ibintu byinshi bipakiye rwose. Hari n'umusore ndetse n'umuntu uri kumwakira amusaba ko yagenda akareba ibyo akeneye, yabibona akaza akishyura kuko ni cyo aba ashinzwe. Rero ntabwo twabasha kureba neza ibirimo gusa hari kwaka amatara meza cyane akeye.

Umusore wiyambariye agafoto k'umutuku n'umweru yifashe mu mifuka arasa n'ureba umwari ufite imisatsi iboshye, naho inyuma hari abandi baje guhaha bigaragara ko hano ari mu iduka, ubwo rero nawe wagira igitekereza cyo kuza kuhashakira ibyo ukeneye.

Ababyeyi bicaye ku meza ndetse n'abandi bari kumwe bafite amakaye n'amakaramu ndetse barimo barandika imyirondoro itandukanye. Nkurikije amakarita ndi kubona hano arasa icyatsi ni ubwisungane mu kwivuza kuko buriya amafoto ya nyirayo ndetse n'imyirondoro itandukanye.

Ababyeyi bicaye bameze neza rwose. Bamwe bateze ibitambaro, abandi udusatsi badusokoje bari kumwe n'abana babo, barabateruye ndetse cyane baranabakikiye. Bafite ibipapuro mu ntoki birimo udukayi n'udukaramo, cyangwa se impapuro bisa nk'aho baje kubakingiza.

Tugerageze twishyure ubwisungane mu kwivuza, ni byiza cyane nkuko bigaragara, ndetse abantu bivuje icyo gihe nibyo babizi, bishyura makeya, rugero niba ahandi bashobora kuguca ibihumbi makumyabiri, wowe utanga ibihumbi nka ibihumbi bibiri cyangwa se igihumbi, kubera wawutanze. Iyo ni ikarita rero ibiranga, iba iriho imyirondoro yawe, amazina, Aaho uva, imyaka ufite.

Ababyeyi bamwe na bamwe baricaye abandi barahagaze ndetse bari kwandika bafite amakaye n'amakaramu, amakarita y'ubwisungane mu kwivuza iyo agaragara hano abagabo niyo bateruye mu ntoki, rero bibaye byiza wajya uyishyura ko ushobora kuyivurizaho.

Umusore yambuye umupira w'umukara afite amakaye n'amakaramu imbere ye hari ibindi bitabo byinshi cyane ndetse na za mudasobwa, umwana amurimbi inyuma y'idirishya bisa nkaho'aho ari kugira ibintumubaza ndetse akabishyira mu gitabo cyabugenewe.

Kuzigamira rero ejo heza ni ingenzi, nk' tubizi, hano rero ni abantu b'ababyeyi bitwikira imitaka bigaragara ko izuba ryabishe, inyuma yabo hari abasore bahagaze ndetse basa n'abari kureba ibigo wagira ngo ni iby'amashuri bifite amabati y'ubururu no hakurya hariyo n'ibiti.

Kwishyura ubwisungane mu kwivuza ni byiza nk'uko bigaragara. Bano babyeyi baraje umwe ahetse umwana barimo barerekana amakarita yabo ariho amafoto, ndetse amazina, igihe bavukiye, abakuru b'imiryango, ndetse n'andi makuru aba ariho hano.

Ababyeyi bakenyeye ibitenge bamwe babigejeje mu mabere, abandi barengejeho udushati n'udupira, bari kumwe n'abandi bapapa, ndetse abari imbere bateruye ikirango kiri m'ibara ry'ubururu, amagambo yandikishije umweru, ubona ko ari ibintu bisa neza, inzu ifite ibirahure, n'amadirishya n'inzugi.

Ubwisungane mu kwivuza, amakarita yabwo arayaboneka ariko ubu ngubu ni ku bana; abakuru bakoresha amarangamuntu. Iyi rero ubona y'umuhondo iriho amazina ye, ifoto, imyaka, ndetse na se na nyina.

Inzu yubatse ifite akabaraza hasi, ababyeyi baricaye barambije amaguru yabo ageze mu twatsi, bambaye ibitenge bafite impapuro mu ntoki bisa n'aho bari kuzihereza undi uhagaze, hakurya hari izindi ndetse n'insinga z'amashanyarazi zibagemurira umuriro.

Umusore mwiza cyane rwose, ubona abakobwa basarira. Yambaye agapira k'umweru inyuma hari ikirango nacyo kirimo utuntu tw'ubururu, n'amagambo yanditse ko abantu bagomba kwishyura ubwiwisugane mu kwivuza nkurikije uko mbibona. Gusa n'urenzaho ijisho, hari undi wambaye umwenda w'umutuku amuri inyuma.

Guhaha ni byiza kubera ko bituma turya ariko nanone ubikora ufite amafaranga, uyu mubyeyi rero araterura agakoka k'umuhondo nkurikijwebona n'umuceri mu kagare utwomacumbi kafite dupine harimo akabido k'amavuta n'ibindi biribwa bitandukanye inyuma ye bacuruza n'ibindi bishobora kuzazana bakihahira.

Amaduka acuruza ibintu bitandukanye yo arahari ndetse n'amezi arakeye iyo uyagendamo uba ubona ko hamezeze neza cyane hano rero haba harimo ibiribwa binatuze umurongo ku buryo nta na kimwe wabura kandi ushobora no gusanga ariho bihendutse cyane.

Ahari arimo arafasha abantu baje kugura hano ibintu bitandukanye, amavuta, ibiryo biba biri mu mashashi. Gutambuka bigaragara, abasore na bo bakiri inyuma nubwo hatagaragara neza ariko hari ka kagari ugenda usunika basanze mu gihugu bigenda bitarashyiramo.

Umusore yambaye umupira w'umukara, agasatsi yagasokoje, inyuma ya hari ubundi ndetse n'abantu benshi, bigaragara ko bari baje mu iduka kuba bakihahira ibikoresho bitandukanye, bikoresha ikoranabuhanga, nkurikije ibyo ateruye ariko harimo n'ibyo kunywa ndi kureba.